Icyumba giteraniyemo abantu bisa nk'aho bari mu nama kuko harimo umusaza wambaye amarineti n'ikote ufite indangururamajwi mu ntoki, akaba ahagaze asa nk'aho ari gutanga ibyo ashaka kuvuga, aba bandi bicaye bakaba bari kumutega amatwi.

Mu gishanga harimo umugore uri gusarura umuceri bigaragara ko uno muceri wageze igihe cyo kwera kuko hejuru uriho ibigaragara byo ahantu mu gishanga kuko hirya hariyo imikinga, hakaba hari n'igihu bigaragara ko bari mu gihe gikonje.

Umugabo muremure w'imibiri yombi, wambaye ishati y'umweru, akaba afashe indangururamajwi mu ntoki ahagaze imbere y'abantu. Bisa nkaho ari kubagezaho ikiganiro...

Umugore ukenye igitenge wambaye umupira w'ubururu, akaba afite ikindi gitenge mu mutwe, ari mu murima w'ibishyimbo bigi byera bishingiriwe kuko ikigaragara harimo ibiti bishingiriye ibyo bishyimbo.

Umugabo muremure w'imibiri yombi wambaye ikote, ahagaze imbere y'abantu afite indangururamajwi mu ntoki bigaragara ko hari ikiganiro ari kubagezaho, abo ari kukigezaho bakaba bamuteze amatwi bumva ibyo ababwira.

Umumama w'inzobe wambaye umupira ufite amaboko w'umweru n'ipantaro, afite amagi mu ntoki ari mu nzu y'inkoko za kizungu, bigaragara ko arizo yoroye akaba ari gukuramo amagi zateye.

Icyumba kinini kirimo intebe n'ameza, ayo meza akaba ariho amasahani kigaragara ko iki cyumba nicyo bakoresha bafungura kuko kirimo ibikoresho bitandukanye bakoresha bari gufungura.

Ameza ariho ibinyobwa n'ibiribwa, ibi biribwa biragaragara nk'ibyatetswe n'umuntu uzi guteka neza, na none kandi umuntu uhicaye akaba afite ikiyiko mu ntoki ari gukoresha arya bino biryo.

Indobo y'umweru ipfundikiye umufuniko wayo isa nkaho' iri mu iduka, iyi ndobo ikaba yifashishwa ishyirwamo ibicuruzwa bimwe na bimwe, harimo nk'amandazi n'ibindi bitandukanye, iyi ndobo kandi ikaba ihagaze ku kantu kabugenewe kayo.

Umugore w'imibiri yombi, ahagaze mu iduka bisa nkaho ari umucuruzi, akaba akikijwe n'ibicuruzwa acuruza bitandukanye, bigaragara ko ari gucuruza.

Iduka rinini ririmo ibicuruzwa bitandukanye hakaba harimo umukobwa, wambaye ikanzu uri guhaha, bigaragara yuko yari amaze guhaha bagiye kumupfunyikira ngo atahe, bikaba bigaragara yuko kandi iri duka, ricuruza ibintu byinshi bitandukanye.

Iduka ririmo umugore wambaye ijipo y'umutuku ugera ku birenge, akaba yambaye umupira hejuru w'umukara, iri duka ukaba ubona ko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibinyobwa n'ibindi bitandukanye, ukaba ubona y'uko ariho hantu akura amafaranga muzima bwa buri munsi.

Umumama w'imibiri yombi ari mu iduka ririmo ibintu bitandukanye, bisa nk'aho ariho acururiza kuko urabona ibiribwa n'ibimyambaro acuruza bimuri iruhande.

Iduka ry'ubucuruzi ririmo umutobe wa Karungi, uyu mutobe ukaba ufunze mu kadomoro gatoya ka litiro ebyiri, ukaba wapfundikijwe agafuniko k'umutuku, ukaba uteretse ku kabati kabugenewe bituma uyu mutobe utangirika.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo bicaye bamwe bahagaze bigaragara ko bari mu rusengero, umwe apfukamye imbere yabo bigaragara ko ari imbere y'umuntu uyoboye bano bantu bari gusenga, uru rusengero rukaba rwubakishijwe amatafari ahiye.

Itsinda ry'abantu barimo abakobwa n'abasore, bahagaze imbere bafite indangururamajwi mu ntoki, basa nk'abari kuririmba, bigaragara ko bari mu rusengero bari kuririmbira abakirisitu bagenzi babo.

Abantu benshi bateraniye ahantu, ahantu kandi bikaba bigaragara yuko bari kuhahembera kuko bafite igipapuro kinini cyanditseho sheke y'amafaranga, bagiye guha umuntu waba watsindiye ibi bihembo.

Icyumba kinini kirimo intebe bigaragara yuko uru ari urusengero abantu bifashisha baje gusenga, kandi na none urusengero rukaba rusize irangi ry'umweru, rukaba ruriho amadirishya manini kandi bikaba bigaragara yuko uno munsi bataje nta muntu urimo.

Abaturage benshi cyane bahagaze imbere y'urusengero kuko ruriho umusaraba, bakaba bateraniye imbere y'urwo rusengero, ibigaragara bakaba bafite imitaka bigaragara yuko haguye izuba ryinshi.

Umugore w'imibiri yombi wambaye ikote, yahagaze mu nzu y'uruganiriro, bigaragara yuko ari kugira icyo ageza ku bandi bicaye kuko afite indangururamajwi mu ntoki, bigaragara nyine ko hari icyo ari kuvuga.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo intebe zo kwicaraho, kikaba kirimo n'amezaza kikaba gisize amarangi y'umweru kandi kikaba kiriho amadirishya ariho amarido meza.

Icyumba kirimo uburiri bushashe neza bigaragara ko iki cyumba cyifashishwa baryamamo, icyo cyumba kandi hakaba harimo ameza iteretseho amazi kandi hakaba hariho amarido atwikiriye idirishya kugira ngo umuyaga utinjira muri icyo cyumba.

Umushefu ukora mu gikoni imbere ye hari ibikoresho akoresha ateka, inyuma ye hakaba hari n'ibindi, hakaba hari ibiteretse ku meza, iyo meza ikaba irambuyeho igitambaro cyiza cyabugenewe cy'umweru.

Icyumba kinini cyo gufunguriramo, aho harimo intebe n'ameza yabugenewe ateretseho imikombe n'amajyaga arimo ibyo kunywa, bikaba bigaragara yuko biteguriwe neza abantu bagiye kuza bagafungura.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo intebe bicaraho, kiriho televiziyo, kirimo imeza, kikaba kiteyemo irangi ry'umweru, hakaba harimo n'ifoto, hakaba hari umuryango winjira muri kino cyumba.

Icyumba gisa nk'aho bakiraramo kuko kirimo umufariso, kikabamo intebe, kikabamo imeza, kirimo amarido asa neza, kandi kirashashe bisa nk'aho habamo umuntu.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo intebe bicaraho, harimo imeza itetseho indabyo, hakabamo ifoto zibambye ku bikuta, hakabamo amarido ari ku birahure.

Inzu ituriye amazi bigaragara ko ari inyubako izamo abantu bakaharara, biragaragara y'uko n'ubu hari abantu. Hakaba kandi iyi nyubako igeretse kabiri ikaba isize amarangi y'umuhondo hirya yaho hakaba hari ibiti.

Icyumba kinini cy'uruganiriro kirimo intebe, ameza kandi icyo cyumba kikaba kirimo irangi ry'umutuku, hanze y'iki cyumba ibigaragara hari ibiti bisa neza bigaragara ko ahantu hari isuku ikwiriye kuba iri mu byumba by'uruganiriro.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo intebe nziza cyane, kikaba kirimo ameza ariho ikirabyo kandi iki cyumba kikaba gifite igikuta gisize irange ry'umutuku, urugi rwinjira muri kino cyumba rukaba rufunguye bigaragara yuko abantu bagiye kwinjira muri kino cyumba bakagikoresha.

Abantu bicaye mu buryo bw'ikiziga bigaragara ko bari kuganira imbere yabo hateretse amazi, hakaba hari n'imeza, bikababa bigaragara ko hari umuntu umwe uri kubaganiriza.

Icyumba kirimo umufariso, kikabamo igitanda, kikabamo n'ibindi bikoresho umuntu yakwifashisha igihe yaba ari mu nzu runaka, iki cyumba kikaba gisize irangi ry'umweru.

Inzu nini yubatse igerekeranijwe, mbere yayo haparitseho amamodoka y'ubwoko butandukanye, na none hakaba hari ubusitani burimo utwatsi dukeya, hateyemo igiti kimwe.

Inzu nini igaragara neza isize amarangi y'umweru, ikaba iriho umuhanda ugera kuri iyo nzu hirya yayo hari ibiti bisa neza by'icyatsi kibisi, bikaba ari ibiti bigaragara neza.

Inzu nziza isize amarangi y'umweru n'umuhondo, ikaba ari inzu igeretswe, imbere yayo hakaba hari amazi abantu bakoresha boga iyo baje muri iyo nzu nziza, hirya yaho na none hari ibiti byiza bitanga umuyaga.

Amagare abiri yaparitse mu isoko, hirya y'amagare hariho ibintu bacuruza, ibyo bintu bacuruza bikaba byegeranye n'amashitingi, hirya ya shitingi hariyo n'abantu bacuruza muri iryo soko.

Ibijumba bisa umutuku bisutse hasi kuri shitingi bifunze imifungo, hari n'ibindi biri mu mifuka itamennye hasi, hirya yabyo hakaba hari amateke bisa nkaho bari kubicuruza.

Isoko ririmo abantu batandukanye bamwe bari guhaha abandi bari gucuruza, hakaba harimo n'imodoka ziri kuzana ibyo bintu bacuruza izindi zibijyana, bigaragara yuko ari aho abantu bakorera akazi k'ubucuruzi.

Isoko ririmo imbuto zitandukanye rikaba ririmo n'abantu bazicururiza muri iryo soko, izi mbuto kandi bigaragara yuko zisa neza zikaba ziba zateguwe neza kugira ngo abakiriya nibaza bazishimire bibonereho kuzigura bishimye.

Umuhanda muremure w'igitaka bigaragara ko abantu banyuramo hirya yawo haparitseyo moto, hakaba hariyo n'amazu yubatse, hakaba hariyo n'ibiti bigaragara ko hakikijwe n'ishyamba.

Moto iparitse ihagazeho umumotari wayo, akaba ahagaze muri uwo muhanda w'igitaka wegereye isoko, ndabona bamanitse imyenda bari kugurisha akaba hariyo n'abantu bari kujyanayo ibicuruzwa, hirya y'isoko hakaba hari amazu bigaragara yuko na ho basanzwe bahakorera ubucuruzi.

Umwana mutoya wambaye ipantaro itukura n'isengeri y'umuhondo, yikoreye umukeka ari kunyura mu isoko, isoko ryanitsemo imyenda basa nk'aho bari gucuruza, hirya ye na none iryo soko rikaba risakajwe shitingi.

Isoko ririmo abantu bari gucuruza ibintu bitandukanye, hakaba hari umumasaye wikoreye inkweto ari kugenda acuruza. Imbere ye hakaba hari abandi bacuruje imyenda akaba hari n'umwana uri kumureba ibyo ari gukora.

Abantu bagizwe n'abagore n'abagabo bahagaze ahantu ubona yuko ko bafite ibicuruzwa biragaragara yuko bari mu isoko bari gucuruza bakanagura, aho abakiriya n'abacuruzi bahurira bakumvikana ku byo bacuruza abandi bakabigura.

Isoko ririmo ibiribwa bitandukanye hakaba biteretse ku mashitingi, hakaba harimo n'ibikoresho by'isuku amasabune n'ibindi bitandukanye, abantu bakaba babikora kugira ngo biteze imbere.

Icyumba gisa nkaho ari icy'ubuganiro kirimo intebe n'ameza ashasheho igitambaro cy'umweru, bigaragara ko kino cyumba gifite isuku ihagije, iki cyumba kandi kikaba gisize irangi ry'uumweru ku bikuta bigaragara yuko hari isuku nyinshi cyane.

Umumotari wicaye kuri moto yambaye umupira w'umweru, akaba ari kunyura muri kaburimbo, hirya y'umuhanda hakaba hari amazu n'urutoki, inzu iri hirya ikaba ariinzu igeretse isize irangi ry'umweru, ikaba isakaje amabati y'umutuku.

Imbangukiragutabara iri mu muhanda ugezweho, iyo mbangukiragutabara iri gusa nk'igenda, hirya yayo hakaba hubatse ibyuma bitwara amashanyarazi, hirya y'ibyo byuma hakaba hari ishyamba ririmo ibiti.

Umugabo yicaye kuri moto iri kunyura muri kaburimbo ahetse ibaga, akaba hirya ye hari amazu yubakishijwe amatafari n'indi bakijijwe amabati; iyo nzu yubakishijwe amatafari, ikaba isakajwe amabati y'ubururu.

Abantu bahekanye ku igare, iri igare rikaba riri kunyura mu muhanda risa n'irigenda, hirya yayo hakaba hari urutoki rushishe, nanone hakaba hari inzu isize irangi ry'umweru iriho inzugi zisize irangi ry'ubururu.

Umumotari wambaye ijuri y'umutuku, ari kuri moto iri kugenda muri kaburimbo, hirya yayo hakaba hari ibiti bisa neza, bigaragara ko kano gace kaguyemo imvura, bityo ibimera by'aho bikamera neza.

Umumotari yicaye kuri moto yambaye impuzankano yerekana abamotari, yambaye na kasike ku mutwe, akaba ari mu muhanda w'igitaka hirya y'uwo muhanda hakaba hubatse amazu bigaragara yuko haba abaturage nanone kandi hari ibiti bikikije ayo mazu.

Umumotari wicaye kuri moto, yambaye ipantaro y'umukara n'ikote, yambaye kasike, akaba muri kaburimbo ari kugenda, hirya ye hakaba hari inzu zisakaje amabati.

Umumotari wambaye umupira w'umukara w'amaboko maremare akaba yambaye n'ipantaro yicaye kuri moto ari kubara amafaranga, bisa nkaho yari avuye mu kazi bakaba bamwishyuye amafaranga, iyo moto kandi ikaba ihagaze mu muhanda.

Imodoka ziri kugenda izindi ziza urabona yuko aha hantu hahuriye imodoka nyinshi bityo bikaba akavuyo, hirya y'izi modoka aho ziparitse ziri hari ibiti birebire urabona yuko ari umujyi urimo isuku igizwe n'umwuka mwiza kubera ibi biti biyungurura umwuka duhumeka.